Akazu kariho ibirango bya Eyateli, hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro, ari kuvugana n'undi urimo imbere, impande hari urujya n'uruza rw'abantu, amazu y'ubucuruzi.

Akazu gasize irangi ry'umutuku, kariho ibirango bya Airtel, mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hashushanyijeho umugore ufite telefone mu ntoki.

Umugore witeze igitambaro afite n'umutaka mu ntoki ahagaze imbere y'akazu kariho ibirango bya MTN na Equity, inyuma hari amazu y'ubucuruzi.

Inzu iriho ibirango bya MTN, imbere hari abantu bari gusaba serivisi zayo hakikijwe n'ibiti by'amoko menshi ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye amadarubindi n'amaherena ufite ibisuko, yambaye umupira w'umweru ahagaze imbere y'imashini ibikura amafaranga afite terefone mu ntoki.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru, umupira w'ubururu, afite umusatsi mwinshi mu ntoki afite amafaranga n'agapapuro, imbere ye imashini, itanga amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi, isize irangi ry'umuhondo, umuryango urafunguy mo imbere harimo firigo, utujerekani turimo amazi yo kunywa ndetse ku muryango hariho ibipapuro by'ibirango bya MTN, hamanitseho n'udukapu.

Impande y'umuhanda hari abantu benshi, umutaka ushushanyijeho ibirango bya MTN, bicaye n'abandi bahagaze, bari kuganira, barahacururiza.

Akazu gasize irangi ry'umutuku, hari ibirango bya Airtel, iruhande haparitse imodoka, inyuma inyubako z'ubucuruzi ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo wambaye amadarubindi n'umupira w'umutuku, ari kumwe n'umusore ufite telefone mu ntoki wambaye ijire y'umuhondo iriho ibirango bya MTN, inyuma yaho hari abantu bahicaye ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye amarinete n'umupira w'ubururu. Ari gufasha kuri terefone undi muturage wambaye ikote n'igitambaro yiteze mu mutwe. Bari ahantu hamwe bicaye.

Umugore wambaye ishati y'umutuku umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, ari kuvuga iruhande ye hari abandi bambaye imipira isa y'ubururu, bamuteze amatwi.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari ameza y'ibiti, inyuma ye hari ubusitani bw'indabyo, ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi ku ntebe zisa umutuku imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru ateretseho indabyo n'imitako bari kuganira.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru, afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro ari kwandika, imbere harimo umugore wicaye ku ntebe, imbere ye ameza.

Umugore witeze igitambaro yambaye ikote, umupira w'umutuku, akenyeye igitenge, ahagaze mu murima munini w'ibishyiyimbo biri ku mihembezo.

Abahinzi benshi bahagaze mu murima munini urimo amasaka yeze ndetse n'andi ari inyuma, afite ibibabi bisi'icyatsi, nayo atarera, ihari n'ikirere gisa nabi.

Abantu benshi bicaye hamwe, abagabo bambaye amakote ndetse n'abagore bakenyeye ibitenge, bari mu nzu isize irange ry'umuhondo ndetse ifite amadirishya menshi.

Umugabo n'umugore bahagaze bafite igipapuro mu ntoki bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari intebe n'ameza n'inzu isize irange ry'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye imipira iriho ikirangantego cy'u Rwanda, bari guha igihembo k'ishimwe umusaza wambaye ikote, inyuma abandi bantu benshi bicaye.

Abaturage bari hamwe abagore n'abagabo n'abasaza bakuze, bari kuganira, bicaye mu nyubako yubakishije amabati y'umweru ndetse n'ibiti bizitiye.

Icyumba kinini kirimo imitako ndetse amatara ari kwaka umuhondo, harimo intebe n'ameza ariho amasahane n'ibirahure biteretseho.

Inyubako zisize irangi ry'umuhondo, hakorerwa ibintu bitandukanye, hari ibyapa biyobora abantu, biri mu ibara ry'icyatsi, hashushanyijeho ibyo kurya.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye harimo ibisuguti, bombo, ibirayi, ibitunguru, hari imbabura, igare ndetse n'amagi.

Mu muhanda munini, impande hari inzu nyinshi z'ubucuruzi, bacuruza ibintu bitandukanye, hari umugabo uhagaze imbere y'ikirango cya MTN impande y'igiti.

Abantu benshi bari gukora urugendo bafite icyapa mu ntoki cyanditse mu nyuguti nkuru, gisa umweru n'amagambo y'umukara. Impande hari ibiti byinshi ndetse n'ibigori mu murima.

Abapadiri batanu bahagaze bambaye amakanzu y'umweru, inyuma hatatse indabo n'ibitambaro bisa ubururu ndetse hanashushanyije ibishushanyo mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Umupadiri ndetse n'abandi bantu bambaye amakote n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku bahagaze imbere y'urusengero rwubakishije amatafari ahiye rusize irangi ry'umuhondo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura umwana amufashe ku gutwi impande hicaye umugore.

Abapadiri bambaye amakanzu y'umweru, bahagaze imbere y'urusengero ndetse n'undi wambaye ikote ry'umukara, hari indabo zisa umweru.

Urusengero rusakaje amabati y'umutuku rwubakishije amatafari ahiye, rufite amadirishya n'inzugi byinshi inyuma yabyo yaho hari ibiti.

Abagore n'umusaza bahuje urugwiro bari kuganira bafite ibikombe bisa ubururu bari kunywa amazi, inyuma hateretse ibindi bikombe bisa icyatsi.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga ikiganiro imbere ye n'inyuma hicaye abagabo n'abagore mu itente ku meza hari amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye hamwe bingeri zitandukanye, ku ntebe zisa ubururu, bari mu nyubako isize irangi ry'umuhondo, umwe afite telefone mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze mu mazi bambaye amakanzu asa ubururu, hahagaze n'umuyobozi wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umutuku uri kubabatiza mu mazi menshi.

Inyubako isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku, imbere hari ubusitani n'ibiti byu'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo, bari mu rusengero bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere harimo imitako itandukanye.

Inyubako irimo ibyumba bicanyemo amatara, hari indabyo zihatatse, ameza n'intebe bisa umweru.

Icyumba gisize irangi ry'umweru kimanitsemo inzitiramibu, hari igitanda kiriho matela isasheho amashuka y'umweru ndetse gifite n'idirishya.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo haparitse imodoka eshatu, ubwoko bw'ibiti ndetse n'indabo.

Icyumba kimanitsemo imitako ku gikuta, gifite umuryango ufunze harimo igitanda kiriho matela isasheho amashuka y'umweru.

Inyubako igeretse imbere yayo hari imbuga nini iparitsemo imodoka z'amoko atandukanye ndetse hari n'ibyatsi, inyuma ishyamba ndetse n'ikirere gisa neza.

Abantu bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru, hariho imitako ku gikuta ,intebe z'ibiti ndetse n'indabyo zihatatse.

Inzu nini irimo imitako itandukanye intebe zisa ubururu umweru n'umutuku ndetse n'ameza, ariho amasahane n'ibisorori.

Umuntu uri kwakira umukiriya, ari kumuha ibyo kunywa, wicaye ku ntebe zisa umukara n'ameza inyuma, hari umusozi ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Icyumba kinini kirimo intebe zo kwicaramo, igitanda kiriho matela gishashe n'amashuka y'umweru, gisize irangi ry'umweru hejuru ndetse kimanitsemo amarido.

Pisine impande yayo hari intebe zo kwicaramo, ndetse n'umutaka ukingira abantu izuba. Hakikijwe n'ubusitani, n'ibyatsi by'amoko atandukanye, ndetse n'umusozi.

Icyumba kirimo ameza n'intebe, igitanda kiriho matora isashe neza n'amashoka y'mweru, gifite amarido.

Icyumba kinini gisize irange ry'umweru kimanitsemo imitako harimo igitanda kiriho matora ishasheho amashuka y'umweru ndetse ku ruhande hari agaturuwari kariho Bibiliya.

Icyanya kinini kirimo pisine, impande intebe n'ameza byo kwicaraho, ubusitani, inyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse n'umusozi uriho ishyamba.

Icyumba kinini, gisize amarangi y'amoko atandukanye, harimo intebe n'ameza ndetse n'indabyo, amatara ari kwaka.

Icyumba gisize irange ry'umweru hari imitako imanitsemo ndetse n'igitanda gisasheho matora iriho amashuka y'umweru.

Amazi yo kogamo, iruhande hateretse intebe zo kwicaraho, inyubako isakaje amabati ndetse n'ibiti.

Abagabo bambaye amakote bahagaze mu muhanda, iruhande hari indabyo ndetse haparitse n'imodoka hari n'inyubako izitiye.

Ibintu byinshi biri ku meza, harimo indobo imifuka ipakiyemo ibintu usa umweru icyatsi ubururu birimo udukombe, iruhande hari amakayi, uducupa n'amasabune.

Umugabo wambaye ishati yifashe ku zuru, acuruza ibitenge by'amabara atandukanye icyatsi, umutuku, umuhondo, umukara, ubururu, ndetse n'abantu bahahagaze.

Urujya n'uruza rw'abantu bari guhaha abandi bacuruza imbere y'inyubako z'amatafari ya rukarakara n'amabati ashaje.

Umugenzi uri gutambuka wikoreye umufuka urimo ibintu, imbere hari inzu zubakishije amatafari ahiye n'indabyo n'ibiti by'amoko atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bamwe bikoreye ibyo bavuye guhaha, inyuma hari ahantu hamanitse imyenda y'ubwoko butandukanye bacuruza ndetse n'inkweto.

Isoko aho bacururiza imyenda hamanitse iri mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'abana bahagaze n'umucuruzi wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro.

umugore witeze igitambaro cy'umukara. Yambaye n'ishati y'igitenge. Ahagaze mu murima munini uhinzemo amashyi.

Isoko ricururizwamo imyenda yo kwambara, imipira, ibishura byo kwitera, hahagazemo umugore wambaye ikanzu ufite agafuka mu ntoki.

Igare ripakiyeho imineke ndetse n'inyanya, ryegetse ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, impande hari abaguzi, n'abacuruzi b'imyenda, y'ubwoko butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bacuruje inkweto z'ubwoko butandukanye, hari imifuka uri ku igare hari abantu bari mu mutaka ndetse n'inyubako zitandukanye z'ubucuruzi.

Isoko rinini cyane ry'imboga n'imbuto, hari abantu benshi abacuruzi n'abaguzi, imbere hasi hari inyanya, karoti, imiteja, inanasi, birambitse ku mufuka.

Shitingi irambitse hasi iriho imyenda n'ibikoresho bitandukanye, abagore bahicaye ndetse n'amasakoshi amanitse ku biti, impande hari inyubako z'ubucuruzi.

Icyumba cya hoteri gitatsemo imitako itandukanye, amatara ari kwaka, harimo intebe n'ameza biteguyeho amasahani ndetse n'imisambi.

Icyumba gicanye amatara yaka umuhondo, hari indabyo zihatatse, intebe n'ameza, hariho imitako itandukanye.

Ipikipiki iri mu muhanda ihariho umugenzi, iruhande hari icyapa gisa umweru cyanditseho amagambo ndetse n'inyubako z'ubucuruzi, imiryango ifunguye, imbere yayo hara abantu.

Umugabo utwaye ipikipiki mu muhanda, inyuma ye hari inyubako z'ubucuruzi, umuryango urafunguye, hari umuntu uhahagaze ndetse n'ibiti by'indabo ku ruhande.

Ipikipiki ihetse abantu mu muhanda, n'izindi ziri ku ruhande, hari n'abazitwara, bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'icyatsi.

Umumotari utwaye ipikipiki mumuhanda munini wa kaburimbo, impande haparitse imodoka imbere y'amazu y'ubucuruzi asize, irangi ry'umuhondo.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda ndetse ahetseho n'umugenzi, iruhande hari abantu bari gutambuka, ishyamba ry'ibiti ndetse n'inzu yo guturamo.

Umumotari utwaye ipikipiki, ari gukoresha terefone, mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hari inzu isize irangi ry'ubururu, ririho icyapa cya Pirimusi n'ubusitani bw'indabo.

Umuhanda munini, iruhande haparitse abanyonzi bafite amagare bari gutwara abantu ndetse hakurya y'umuhanda hari imitaka iriho ibirango bya MTN n'akazu ka airtel, ishyamba ndetse n'inzu.

Ipikipiki ebyiri ziri mu muhanda. Impande hari indabyo ndetse n'amazu y'ubucuruzi. Hahagaze abantu ni urujya n'uruza rwabo.